Abaturage bari mu nzego zitandukanye, bahagaze kandi bakikije umuyobozi wabo wicaye ku ntebe, arimo arababwira ndetse abahereza amabwiriza atandukanye yo kwifashisha mu bikorwa barimo, kugira bibe kandi birangire neza.

Mu mudugudu ikigo cya UNICEF cyagiye gufasha abana batoya bari hagati y'imyaka y'ibiri ndetse n'umunani, mu kubahereza amata kugira ngo babafashe guhindura no kuva mu mirire mibi, no kugira ngo bagire ibitekerezo bizima mu buryo bwo gufata amata abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ku ivomero hari abana n'urubyiruko ndetse n'ababyeyi bagiye gushaka amazi, ni ivomero rigoye risaba imbaraga abana bazanye amabido ababyeyi bazanye na bo ibikoresho byo kuvomeramo, abana bari gufasha ababyeyi kuyashaka, kuko ni ya mavomero asaba imbaraga no kugira ngo habe hari abafite izo mbaraga zafasha abandi kugira ngo bayabone.

Mu mudugudu ikigo cya unicef gishinzwe kwita ku buzima bw'abana cyane cyane abafite imirire mibi ndetse n'imiryango idafite ubuzima bwiza baritabwaho n'ababishinzwe n'abahagarariye icyo kigo mu Rwanda, barabaha amata, barabafasha kwishima, barabafasha kugarura ubuzima no kurwanya bwaki mu miryango yabo, barabafasha kunywa amata bakabaganiriza ndetse bakanaganiriza ababyeyi babo bababwira indyo yuzuye yo kubaha ndetse bakabaha n'ubufasha uburyo bw'iminywere ndetse n'imirire kugira ngo babafashe guhindura no kuzamura ubuzima bwabo.

Kuri robine iturukamo amazi menshi, umwana mutoya arimo arasukura intoki ziwe akarabira kuri robine atagabanyije amazi, ari na ko amazi akomeza kumeneka ari menshi kandi yangirika.

Ku murenge, abayobozi bateranye, hari abayobozi batandukanye ,ndetse harimo n'umuyobozi wa DASSO, aho buri wese afite urupapuro imbere ye ,atanga ibitekerezo bitandukanye, hafi aho y'inyubako kandi hari indobo yagenewe gushyirwamo imyanda, kugira ngo birinde umwanda ku murenge wabo.

Mu ishuri aho abanyeshuri bari gufatiramo amafunguro yabo ya saa sita, barishimye bari gusangira ibitekerezo hagati yabo, kuko buri wese yagiye ashyiramo umwanya hagati ye'undi ni igihe cya covide kugira batanduzanya, ndetse uko bari uko bicaye bari gusangira ibitekerezo bishimye.

Mu murima ababyeyi batatu b'abamama barimo baraganira, umwe aho ari konsa umwana, abandi babiri bamukikije, barimo barasangira ibitekerezo by'ubuzima bwabo, berekana imirima aho bagejeje bakora, bahana ibitekerezo ndetse berekana n'uko ubuzima bwabo buhagaze mu buryo bwo gusarura ndetse no guhinga.

Umusaza wirabura uteze neza wambaye umukenyero yaserukiye umuco araseka yishimiye abo yaje gutaramira, yashyizeho ibiranga neza uwaje ari umubyinnyi kandi aje gutaramira abari aho ngaho bose, arishimye yateze urugori mu musatsi arasekera abari aho bose.

Umwari uri hagati y'imyaka makumyabiri na mirongo itatu, arimo arifashisha akuma gakora neza isuku hagati y'amenyo yacu, aho rimwe na rimwe uburoso butabasha kugera, agenda agera hagati ya buri ryinyo kugira ngo asukure amenyoye ase neza.

Kwa muganga umwana yaje kwivuza amenyo ye, aho muganga afite ibyuma n'ibikoresho byose yifashisha, kugira ngo amushyiremo utwuma dufasha amenyo y'umwana kujya ku murongo neza, akaba aringaniye kandi akamurinda n'uburwayi butandukanye bwo mu menyo ye.

Kwa muganga umusaza ukuze ari kwitabwaho na muganga, hafatwa ibipimo kugira ngo barebe uko ubuzima bwe buhagaze, baboneraho kumuha inama z'uburyo agomba kwitwara ndetse niba hari ikindi kibazo bamukurikirane, ndetse bamuhe imiti n'ubufasha bwihutirwa.

Umubyeyi ukiri mutoya w'umumama arimo arerekera umusaza ukuze, uburyo agomba gufatamo imiti ye ya buri munsi, amufasha amuha amazi yo kuyinywesha meza, amubwira iminsi n'amasaha azajya ayifataho.

Kwa muganga, abashinjwa kwita ku buzima bw'abasirikare baba bagiye ku rugamba, hari imodoka, hari abaganga, hari ibikoresho byose byifashishwa kugira ngo bafashe abo bagiye ku rugamba kugira ubuzima bwiza buzira umuze, kugira bajye ku rugamba bafite imbaraga n'ubushake ndetse n'ubushobozi bwo kurwanira igihugu.

Kwa muganga ku kigo nderabuzima cya Gisenyi, hari abarwayi, hari abari kuza bifashishijwe amagare, hari abaganga bari kuzenguruka, bashaka abarwayi baje babagana kugira ngo babakire, hari abarwayi bicaye hanze bategereje, hari abari gutaha bavuye kugemurira, ababo bari mu bitaro.

Icyumba cy'ubutabariro kijyamo abarwayi barembye kurusha abandi, harimo ibikoresho byose yaba ibyuma bikoreshwa, yaba imyenda ndetse n'ibyo bakoresha bambaye ku ntoki kugira ngo birinde umwanda ndetse no kwandura indwara zitandukanye zandurira mu mwuka ndetse no gukoranaho, mu gihe baba bakoze kuri abo barwayi.

Kwa muganga hari abaganga batatu bari kumwe bambaye ibikoresho bibarinda neza ku ntoki ndetse no ku muribiri rusange batunganya imiti neza, bakoresheje isuku bari buze gukoresha baha abarwayi babo.

Kwa muganga, muganga ari gutegura neza igitanda agiye guheraho serivisi umurwayi, cyane cyane agisasa, ashyiraho ibikoresho by'isuku, ndetse ategura ibikoresho byose aribuze gukoresha mu gihe araba ari kwita ku murwayi.

Ku kigo nderabuzima cy'amaso, hari urujya n'uruza rw'abantu benshi batandukanye, abamama, abagabo, abakecuru, urubyiruko, aho hari ababyeyi babiri bari hanze baganira uko ubuzima bumeze ndetse imbere yabo hari umwana urimo urasoma igitabo, ategereje ko yakirwa kwa muganga.

Mu nyubako, aho umuntu afashwa, ndetse akanasobanurirwa neza, uko ari bubigenze, n'aho ari buce, asaba ubufasha yaje gushaka, kugira ngo bimurinde gufata igihe, ndetse no guta umwanya azenguruka, asaba ibyo yaje gushaka, bityo bikamufasha gukoresha igihe cye neza, ndetse agacyura, kandi akabona n'ibyo yaje ashaka.

Umusore w'ibigango wakoze siporo, ubimazemo igihe kandi ubona ko abifitemo uburambe, amaze gukora siporo ndetse y'amasaha menshi, niko guhita yimenamo amazi, arayanywa ndetse ayimena mu maso mu buryo bwo kugarura ubuyanja n'ubuzima.

Bande iri mu mabara atandukanye, harimo: ibara ry'umutuku, iry'umukara n'iry'ubururu; aho yifashishwa mu kugarura mu murongo ukuboko kwavunitse cyangwa se ukuguru, bigatuma umuntu akira vuba kandi byihuse, bidasabye ko ajya kwa muganga.

Umuti uri mu gacupa k'umweru keza, gapfundikiye kandi gafite isuku, wifashishwa cyane cyane ku muryango, uyu muti aho ukiza kandi ukanarinda kurangiza vuba ku muryango, ndetse ukarinda no gucika intege ku bashakanye.